Umuhinzi urimo arafuhira ibigori bye, ashobora guteramo umuti cyangwa se akaba yashyiramo amazi mu gihe cy'izuba kugira ngo bitaba byakicwa n'izuba, iyo ashyizemo amazi bituma ibihingwa bye bikura vuba kandi akabona umusaruro uhagije.

Abantu bafite ibihingwa bakwiriye kubisura inshuro nyinshi mu gihe babona bikeneye amazi bakwiriye kujya babiha ayo mazi bakuhira inshuro nyinshi kugira ngo bituma kuko biramutse byumye baba bahombye cyane.

Hari ibimera abaturage bahinga kugira ngo bazabone amafaranga, bimwe muri ibyo bimera harimo ikawa, ikawa ni ikimera gihingwa n'abaturage bo mu cyaro kugira ngo bazabone amafaranga mu gihe bagurishije icyo kimera by'umwihariko kigatunganywa n'inganda.

Ibikoresho byifashishwa n'abantu bize, umuntu ashobora kubona akabona nta kamaro bifite ariko nanone iyo umuntu yize aba asobanukiwe icyo ashobora kubikoresha bityo bikaba byagira akamaro mu buzima bwe n'ubw'abandi.

Kuhira imyaka bifasha imyaka gukura neza kandi abantu buhira imyaka babona inyungu nyinshi cyane .Mu gihe imyaka umuntu yayuhiye neza, aba agomba no guteramo umuti kugira ngo iyo myaka idafatwa n'ibyonnyi.

Umugabo ushimishijwe no kuba yabonye umusaruro uhagije w'amafi, aho yishimye kandi biragaragara kuko yizeye ko aribuze kurya ayo mafi, yambaye agapira k'umutuku karimo uturongo tw'umukara hejuru.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kose kugira ngo bagire ibyo bigezaho mu buzima busanzwe urugero nko korora amafi, amafi yororerwa mu nyanja niyo mpamvu uyu mugabo arimo ashyira indobani mu nyanja cyangwa se ahandi hantu hari amazi kugira ngo arebe ko yabona amafi

Ubworozi bw'amafi ni ubworozi busaba ko umuntu ubukora, aba atuye hafi y'amazi cyangwa se, hari ahantu ashobora kubona amazi yo gushyiramo ayo mafi. Amafi agirira akamaro abaturage kuko afite intungamubiri ku bantu bayariye.

Abantu bane n'undi umwe uri mu mazi ni ukuvuga ubwo ni batanu, bagiye kuroba kandi baracyura amafi menshi, bafite igikoresho bifashisha mu kuroba kandi rwose ahantu bari ntabwo hateje akaga kuko ari ahantu heza.

Ubworozi bw'amafi bwororerwa ahantu hizewe hari amazi. Mu gihe umworozi ashaka korora amafi ariko adafite amazi, ibyo ntibyakunda kuko amafi atabonye amazi, yahita apfa. Ni yo mpamvu mu gihe umuntu agiye gutekereza ku bworozi bw'amafi, agomba kubanza kureba niba hari amazi.

Abantu bagira uruhare mu gutuma ubuzima bwabo bukomeza kugenda neza kuko hari inyungu bagenda babona iyo bafashanyije mu gukora ibikorwa bibateza imbere. Ibyo bikorwa birimo kubakirana mu gihe hari ibintu bashaka kugeraho.

Hari abantu bagenda borora amafi hanyuma nyuma y'igihe runaka bagakuramo umusaruro, ubworozi bw'amafi bukorwa n'umuntu utuye hafi y'amazi cyangwa se ushobora kubona amazi yo kororeramo amafi.

Amazi ni ingenzi cyane, ashobora gukorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo nko kororeramo amafi. Ibyo bituma abantu bagira iterambere mu buryo bwihuse kandi abantu bafite amazi bashobora guhita babona inyungu mu gihe gito kubera ubworozi bw'amafi.

Amafi ni bumwe mu bworozi bugoranye kubworora kuko buba ahantu hari amazi, gusa nanone amafi agira inyama iryoshye, ku buryo umuntu wese aba yifuza kurya amafi aho yaba ari ho hose kandi biramushimisha kubona amafi yahiye akirira.

Hari ibihingwa bihingwa kugira ngo umuntu azabone amafaranga mu gihe yabihinze, bimwe muri ibyo bihingwa bihingwa kugira ngo ababihinze bazabone amafaranga twabagamo ikawa, icyayi ndetse n'ibindi bihingwa kugira ngo umuhinzi azabone amafaranga.

Abantu bahinga kugira ngo bazabone amafaranga, baba bagomba guhinga bakabona umusaruro uhagije, kuko kugurisha ibintu bike bike bidatanga amafaranga ahagije. Niyo mpamvu baba bakwiriye kwita ku byo bahinze, bakabikoramo buri gihe kugira ngo bibashe, kuzana umusaruro uhagije.

Abaturage bashobora guhinga ibihingwa hanyuma bakabitunganya. Gusa hari ibihingwa abaturage bahinga bagamije kugira ngo bizavemo amafaranga, intego nyamukuru ari ukubigurisha batagamije kubirya. Bimwe muri byo harimo ikawa ndetse n'icyayi.

Hari ibihingwa bihingwa kugira ngo abantu bazakuremo amafaranga, ibyo bihingwa abaturage bakaba batabihinga kugira ngo babirye kuko mbere yo kuribwa bibanza kunyuzwa mu ruganda, bityo abahinzi barabihinga kugira ngo bazakuremo amafaranga bakifashisha.

Abantu bahinga ibihingwa bagamije kubigurisha bagomba kubyitaho umunsi ku munsi hanyuma nyuma yo kubyitaho mu gihe cyo gusarura bagomba kwitonda kugira ngo babisarure neza.

Hari ibihingwa bigenda bihingwa hirya no hino kugira ngo abantu bazabigurishe bakuremo amafaranga. Umuhinzi arimo aratoranya ikawa ye kugira ngo igihe nikigera azayijyane ku isoko, hanyuma bamuhe amafaranga.

Hari ibiti biba bimeze neza bitanga umusaruro kandi ibyo bifasha abahinzi, nanone kandi hari ibihingwa abahinzi bahinga kugira ngo bazabigurishe aho kubihinga kugira ngo babirye ahubwo bakabigurisha bikabanza kunyura mu nganda.

Ikawa n'igihingwa umuntu ahinga kugira ngo azagurishe, ntushobora guhinga ikawa ugamije kuyirya kuko ntabwo wayiteka, ahubwo irabanza ikanyuzwa mu nganda, hanyuma umuntu akabona amafaranga iyo yahinze.

Ibimera bifitiye akamaro abaturage kuko hari ibimera bihingwa kugira ngo abantu bazabikuremo ibyo kurya kandi hari ibimera bihingwa kugira ngo abantu bazabigurishe babone amafaranga, ayo mafaranga bayakoresha bagura ibintu bitandukanye bishobora kubafasha mu buzima bwabo.

Inyamaswa cyangwa se amatungo byose birarwara kandi iyo birwaye bikenera imiti, niyo mpamvu hari abahanga bakoze ubushakashatsi bakagenda bakora imiti y'amatungo igihe itandukanye harimo nk'imitungo yaha inka ishobora gupfunyikwa mu mashashe cyangwa se mu bindi bintu.

Inyamaswa na zo ziba zikeneye kuvurwa mu gihe zirwaye, by'umwihariko inkoko zikunda kurwara uburwayi bisaba ko zikira ari uko zibanje guhabwa imiti kandi iyo miti ushobora kuyisanga ahantu hose muri buri karere kuko iracuruzwa.

Inyamaswa ziba zikeneye imiti igiye itandukanye kugira ngo zirusheho kugira ubuzima bwiza, mu mugihe inyamaswa ibonye umuti runaka yumva imerewe neza kandi birayishimisha iyo ibonye ibintu ikunda.

Imiti y'amatungo ni ingirakamaro cyane, kuko abantu bashobora kuyigura bakayiha amatungo yabo, ayo matungo nayo agahita akura vuba vuba hanyuma bakabona inyungu, iyo nyungu bashobora kuyibona ari amafaranga ashobora kubahesha ibintu byinshi bimo no gutanga mituweli.

Imiti y'amatungo ishobora gupfunyikwa cyangwa se ikaba yashyirwa mu bintu bitandukanye, abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bw'amatungo yabo bagomba kujya mu masoko runaka bakagura iyo miti, hanyuma bakayiha amatungo yabo, akongera akugubwa neza.

Hari amatungo akunda kurwaragurika kandi amatungo akaba atanga umusaruro, mu gihe akunda kurwaragurika, abantu baba bakwiye gukora uko bashoboye kose, kuko iyo batayitayeho ashobora gupfa, niyo mpamvu hari imiti iba yaragenewe amatungo igenda ishyirwa hirya no hino mu maduka kugira ngo ifashe abantu.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kose mu gihe boroye kugira ngo amatungo yabo akomeze kugubwa neza, ibyo bigatuma bagura imiti bashobora kwifashisha mu gihe itungo ryabo ryaba rirwaye kugira ngo rikomeze kugubwa neza.

Inyamaswa na zo ziba zikeneye imiti mu gihe zirwaye kugira ngo zikomeze kubaho neza, kuko iyo miti ituma zikira uburwayi zirwaye bityo zikabasha gukomeza gutanga umusaruro, hanyuma umuntu uzoroye na we ntahombe.

Inyamaswa nazo ziba zikeneye imiti, iyo miti icururizwa mu mabutiki atandukanye cyangwa se mu masoko atandukanye, gusa habanza gupimwa ubuziranenge bwayo ndetse n'abayicuruza bagomba kuba babifitiye icyangombwa.

Abantu bakora ibikorwa byinshi bishobora kubateza imbere, harimo kwita ku butaka bwabo, bashobora kubwitaho birinda amasuri, bagatera ibiti kugira ngo ubutaka bwabo budatwarwa n'imyuzure.

Mu bijyanye no guhinga abantu baba bakwiriye gushingirira imyaka bahinze nk'ibishyimbo, baba bakwiye gushaka ibiti bakagenda bagashingamo kugira ngo bizere vuba kandi bifite umusaruro uhagije.

Aborozi baba bakwiye kuragira amatungo yabo kugira ngo aticwa n'inzara, niyo mpamvu usanga abantu benshi bafite imirima miremire irimo ibyatsi kandi abantu bahinga muri iyo mirima bakaba bafite n'ahandi bashobora kuba bashyira amatungo yabo akarisha.

Abantu bahinga imboga bashobora kuzigurisha mu gihe runaka, gusa hari n'ibindi bihingwa byitwa ibirayi, ibyo bihingwa by'ibirayi umuntu ashobora gusoroma imboga zabyo akabirya, gusa n'imizi yabyo cyangwa se ibintu byera kuri izo mboga nabyo biraribwa.

Umudamu ukiri mutoya ahahagaze mu myaka harimo arareba imbere bigaragara ko ari umuhinzi washatse kwifotoreza mu myaka ye kugira agafoto azakifashishe mu bindi bintu.

Kugira ngo imyaka ikure umuhinzi aba agomba guhoramo akoramo isuku kugira ngo abashe kumera neza, by'umwihariko ibishyimbo biba bikeneye ko umuntu abibagara hanyuma agakomeza kubyitaho kugeza bikuze.

Gukora umuganda ni igikorwa cyiza, gusa na none abahinzi uretse gukora umuganda bashobora no guhurira hamwe n'abandi bantu babari mu inzego z'umutekano, bakaba bagira ibintu bakorera hamwe, bityo bikabafasha kwiteza imbere mu buzima bwabo.

Abantu barimo bakora ni ukuvuga ni abahinzi barimo bakora mu murima batunganya ibimera kugira ngo bazabone umusaruro umeze neza mu gihe bazaba basaruye, ibyo bikaba ari ingenzi mu gihe umuhinzi yahinze abagomba kwita ku byo yahinze.

Abantu bashaka gutera ibiti bashobora kujya kubikorera ahantu baba barabigemetse cyangwa se ku nkunga ya leta hari uburyo abaturage babonamo ibiti leta yabibahayemo inkunga hanyuma na bo bakajya kubitera kugira ngo barwanye amasuri.

Abahinzi bagira uruhare mu gutuma ibyo bahinga bikura kuko iyo babyitaho inshuro nyinshi babona umusaruro, kandi uwo umusaruro ubafasha kugira ibintu byinshi bagura, kubona umusaruro ku muhinzi ni inyungu ikomeye cyane.

Abahinzi bakwiriye gukora uko bashoboye kose kugira ngo ubuhinzi bwabo bu bateze imbere by'umwihariko bihatira gukora isuku mu mirima ndetse bakaba bakifashisha n'ibindi bikoresho kugira ngo ahantu bagiye guhinga bahatunganye neza bityo hazatange umusaruro uhagije.

Inka zifite agaciro cyane mu muco nyarwanda, kuko zishobora gufasha abantu kuva mu cyiciro kimwe cy'ubudehe, bakajya mu kindi cyiciro, kandi bashobora kuva mu bukene bakaba abakire, kuko inka zishobora gutanga amata, ndetse n'inyama.

Umuhinzi w'umugabo ari kumwe n'umudamu we cyangwa se mu umukobwa we barimo barakorera imyaka, ibi bituma umwaka ugirwa n'amezi cumi n'abiri bahinzemo babona umusaruro uhagije kandi umwaka wose bakabasha kurya.

Abaturage bahuriye hamwe mu murima harimo n'umusirikare, barimo barita ku bihingwa runaka kugira ngo bibashe kumera neza. Umusirikare ari inyuma yabo, harimo undi wambaye ingofero wambaye umwe hejuru ni ukuvuga bari imbere bakaba bahagaze impande y'ibigori.

Umuntu wagiye gusarura ibigori akaba yarabihinze kugira ngo azabirye, niyo mpamvu yishimye ubona anafite umuhoro bigaragara ko agiye gutema ikigori hanyuma akakijyana mu rugo akagitunganya.

Igihingwa cyitwa imyumbati ni igihingwa gikundwa n'abantu benshi, imyumbati inshuro nyinshi abantu barya imizi yayo kubera ko hejuru hava imboga kandi abagabo ntabwo bazikunda, izo mboga zikunda kwirira abagore.

Ibyo kurya abaturage barya akenshi biba byarahinzwe kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza agomba kwihatira kurya imboga n'imbuto kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza mu gihe akomeje kubigenda atyo abaho igihe kirekire kandi amagara ye agakomeza kuba meza.

Abantu benshi bakunda ibihingwa, ariko nanone hari abantu bahinga kugira ngo ibyo bahinze bazabirye n'abandi bahinga kugira ibyo bahinze bazabigurishe. Amateke ni bimwe mu bintu abahinzi bahinga kugira ngo bazabirye, mu gihe ibindi birimo nk'umuceri nabyo bihingwa kugira ngo binyuzwe mu nganda hanyuma babirye, ariko ikawa ihingwa kugira ngo izavemo amafaranga.

Hari ibihingwa bihingwa kugira ngo bizavemo ibyo kurya, ibyo bihingwa harimo imbuto zitandukanye nk'indimu ndetse n'izindi, abantu bishimira bakaba bazihinga bakazazigurisha bakabona amafaranga cyangwa se bakazirya.

Hari ibihingwa bigenda bihingwa mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo abaturage babashe kubona umusaruro cyangwa se amafaranga. Ibyo bihingwa bishobora kuvamo ibihingwa birebire cyangwa se ibyerera ku butaka, byose bikaba bifitetiye akamaro umuturage.

Abahinzi baba bakeneye imbuto imeze neza, niyo mpamvu hari abashakashatsi bagenda bakora ubushakashatsi bakamenya uburyo butandukanye bashobora gutunganyamo imbuto zabo, harimo nko kwifashisha ibikoresho bitandukanye bagapfunyika izo mbuto kugira abahinzi bazabone ibyo bahinga.

Ibyo kurya bihingwa n'abaturage bibagirira akamaro cyane, kuko babona umusaruro mu buryo bworoshye. Ibyo byo kurya biboneka mu giturage, harimo imyumbati ndetse n'ibindi bimera bihingwa kugira ngo bazabirye igihe kigeze byeze.

Hirya no hino iyo witegereje urasanga imbuto z'ubwoko butandukanye gusa biragoye ko wajya mu gace ukavamo utabona igihingwa cyitwa ipapayipapa, ni igihingwa kigira imbuto ziryoha icyo gihingwa kiba gikunzwe n'abantu benshi.

Ahantu hari shitingi bigaragara ko hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi, aho hagaragara hino y'aho umurima uhinzemo izindi mbuto zikiri ntoya ibyo bikaba bifasha mu iterambere.

Iyo umuntu yahinze, aba yumva yishimye iyo yajyanye ibyo yahinze ku isoko ariko nanone mu gihe umuntu yagiye guhaha wenda yagiye nko guhaha pavuro, karoti, immyembi n'ibindi, agomba kurebamo ibizima akirinda kureba ibyahoze.

Abantu kugira ngo babeho neza, bagomba kurya. Abaturage bahinga ibihingwa kugira ngo abantu babone ibyo kurya. Ibyo bihingwa biba bikwiriye kwitabwaho, hagashyirwamo amazi mu gihe cy'izuba ndetse n'ifumbire.

Kurya bituma umubiri ukomeza kugubwa neza, mu gihe umuntu agiye kurya agomba kurya ibiryo bifite intungamubiri, harimo imbuto ndetse n'ibindi bishobora kumutera imbaraga nk'ibirayi ndetse n'ibigori.

Ibigori biraryoha cyane iyo umuntu yabiririye, gusa kugira ngo bihingwe hari amafaranga yo kugura ifumbire, bitewe n'agace atangwa. Nanone kandi hari abaturage bashobora guhinga ibigori ntibashireho ifumbire, kandi ibyo bigori bikera.

Ibigori bikiri bitoya bitaratanga umusaruro, abantu bakaba barabihinze kugira ngo bazabone amafaranga cyangwa se babone ibyo kurya, niba abahinzi babonye ibyo kurya igihugu gitera imbere.

Ibyatsi biba ahantu hatandukanye, bifasha mu gutuma abaturage babona ibyokurya, kandi hari n'ibyokurya by'inyamaswa biva mu byatsi. Inyamaswa zirya ibyatsi harimo, ihene, intama, ndetse n'inka.

Abahinzi b'ibigori bakora uko bashoboye kose kugira ngo hazaboneke umusaruro uhagije harimo nko kubisura inshuro nyinshi bakabibagarira, bakabikoramo amasuku kugira ngo bikomeze gutanga umusaruro bityo babone ibyo kurya n'ibyo kugurisha.

Mu gihe umuntu ahinze, aba agomba kumenya ubwoko bw'igihingwa ahinze, akamenya niba azagikuraho amafaranga cyangwa se agamije kuzakuraho imbuto zo kurya, nk'igiti hari abagihinga kugira ngo bazakureho imbuto zo kurya kandi ibyo bibagirira akamaro mu buzima bwabo.

Mu gihe umuhinzi yahinze aba akwiriye gukora icyo ashoboye cyose kugira ngo umusaruro we uzamere neza mu gihe uzaba ukuze, bityo abashe kubona inyungu, niyo mpamvu hari uburyo butandukanye bw'ikoranabuhanga bwifashishwa, harimo nko kuhira ndetse n'ubundi buryo kugira ngo bufasha umuhinzi.

Hari igihingwa cyitwa imyumbati icyo gihingwa kirakundwa cyane kandi abenshi mu cyaro baragihinga kuko gituma babona ibyo kurya mu gihe gitoya kandi gitanga umusaruro uhagije ku buryo gihaza abantu benshi cyane.

Ibimera abantu bashobora kubibona batabihinze, hanyuma bakaba babirya. Hari ibimera bimeze nk'ibyatsi, abantu bakuramo ibyo kurya kandi birabafasha cyane mu buzima bwabo. Ubwo rero umuntu wese agomba guha agaciro, ikimera uko cyaba kimeze kose.

Ibihingwa bihingwa kugira ngo abantu babone ibyo kurya bumve bameze neza batuje kandi bafite umutekano mu bintu byabo, ibyo bihingwa bishobora kuba umuceri cyangwa se ibindi bihingwa bituma abaturage babona ibyo kurya.

Ibigori ni igihingwa cyifashishwa n'abantu kugira ngo bazabone ibyo barya kandi hari n'ibyo bahinga kugira ngo bazagurishe. Ibyo bituma umusaruro ugera kuri bose, yaba abahinzi ndetse n'abandi badahinga kuko batanga amafaranga bakabona ibyo kurya.

Abantu bakwiriye gukora uko bashoboye kose bakarya neza ibiryo bifite isuku bitarimo umwanda kandi bakwiriye gukora uko bashoboye kose bakagirira isuku aho baba ndetse n'ibikoresho bashyiramo ibyo kurya, ibikoresho bibikwa mu nzu bigomba kugira buri hantu bibikwa ukwabyo.

Ibimera birimo imyumbati n'ibihingwa bihingwa cyanecyane mu misozi ndetse n'ahandi hantu hari ubutaka burumbuka, ibyo bimera birimo ibyokurya by'amatungo ku mababi yabyo ndetse hakabamo n'ibyokurya by'abantu ku mizi yabyo.

Ibiti bifitiye akamaro cyane abaturage kuko bituma babona akayaga keza ndetse iyo byakuze bashobora kubigurisha bakabona amafaranga yo kwikura mu bukene cyangwa se bikaba byagira urundi ruhare mu gutuma haboneka ibikoresho nk'intebe ndetse n'ibindi bikozwe mu biti.

Ibiti iyo umuntu abireba aba yumva gusa kubireba siko kamaro kabyo gusa kuko ibiti bishobora kwifashishwa bivamo ibindi bikoresho bitandukanye, harimo nk'imbaho ndetse n'ibindi bishobora kwifashishwa mu gutuma umuturage atera imbere.

Umuhanda uri mu mashyamba, uwo muhanda kuwureba biba bishimishije ariko nanone kugendamo wenyine bishobora kugutera ubwoba, ni yo mpamvu nubwo amashyamba afitiye akamaro abaturage, kunyuzamo umuhanda umuntu akagendamo nijoro bishobora guteza akaga.

Amashyamba afiteye akamaro abaturage kandi atuma iterambere ryiyongera kuko amashyamba atuma ba mukerarugendo baza mu gihugu iyo ari amashyamba adasanzwe.

Amashyamba afitiye abaturage akamaro kubera ko bakuramo inkwi zo gucana. Nanone kandi ibimera birimo amashyamba bituma abaturage babona umwuka mwiza bahumeka, kandi bashobora kuganira n'abandi kunyungu ,ndetse n'akamaro kamashyamba.

Abantu bakora uko bashoboye kose kugira ngo barebe ko bakiteza imbere, umugabo ari mu ishyamba ashobora kuba yagiye kurisura cyangwa se yagiye gutema igiti kugira ngo azacyifashishe mu bindi bikorwa nkenerwa byo mu buzima busanzwe.

Ibimera bishobora gutuma umuntu abaho neza cyane kandi bishobora gukurura akayaga umuntu akeneye. Mu igihe umuntu akeneye akayaga keza ashobora kwicara ahantu hari ibimera hanyuma akumva ameze neza kandi bishobora kumushimisha.

Inka uretse kuzorora mu kiraro umuntu ashobora kunyuzamo akazijyana ahantu hari ibyatsi ni ukuvuga mu rwuri hanyuma akazizishyiramo zikarishya izo nka ziba zigaragara neza niyo zaba zirisha ziri mu ishyamba.

Amashyamba afite akamaro cyane by'umwihariko atuma abaturage babona umwuka mwiza bahumeka, bakabona akayaga keza ndetse aho batuye bakabona ibikoresho biva mu biti harimo nk'imbaho, intebe n'ibindi.

Ibiti biri ahantu hamezeze neza harambitse neza aho ahantu hakaba hagaragara ibindi biti byinshi kandi bifite akamaro mu baturage ko kuba byakubaka, byakifashishwa nk'inkwi ndetse bishobora no kuba byakwifashishwa nko gutinda ibiraro.

Amashyamba afitiye akamaro abaturage by'umwihariko mu gutuma abaturage babona umwuka mwiza bahumeka, kandi amashyamba atuma abantu babona imbaho kandi ashobora no gutuma babona akayaga keza aho batuye.

Amashyamba afitiye akamaro abaturage, kuko amashyamba akurwamo inkwi zo gucana. Na none kandi amashyamba ashobora kwifashishwa mu gukora ibikoresho bitandukanye, bikorwa mu mbaho, harimo intebe ndetse n'ibindi bikoresho.

Ibiti bifitiye akamaro abaturage by'umwihariko hari ibiti bitanga imbuto, hari n'ibiti bitanga inkwi zo gucana ndetse bifite akamaro ko gukurura umwuka mwiza abantu bahumeka.

Inyubako iri mu mumashyamba, isakaje amabati ajya gusa icyatsi, inyubako iri mu ishyamba hagati, biba bigoye gutura mwishyamba hagati ariko niko kamaro k'amashyamba kuko umuntuntu utuye mu ishyamba hagati ntashobora kubura umwuka mwiza.

Hari abantu benshi bibaza uko ibihingwa bibayeho bikabashobera, gusa nk'iyo uri ku musozi ukitegereza ibimera, amashyamba, ibiti ndetse n'ibindi bintu birimo nk'ibyatsi, uhita wibuka ko hari uwabiremye bitapfuye kubaho gutyo gusa.

Hari ibintu bitandukanye bifasha abantu kubaho neza by'umwihariko ibimera bigirira akamaro abaturage kuko bashobora kubona umwuka mwiza bahumeka kandi bakaba babikoresha mu bikorwa byabo bitandukanye, nk'ibiti bifasha abaturage kuko bivamo imbaho.

Amashyamba atuma abantu babona ibyo bakeneye by'umwihariko akuka keza, bakabona umuyaga ndetse bashobora no kubona inkwi zo gucana by'umwihariko ibiti bivamo bishobora kwifashishwa mu bijyanye n'ubwubatsi.

Amashyamba ni ingenzi cyane, atuma abantu babona umwuka mwiza usibye n'ibyo bakabona inkwi zo gucana ni ukuvuga amakara, bakabona imbaho, bakabona uko bubaka inzu zabo byose bikagenda neza.

Igiti cyaguye mu mazi bigaragara ko hari umuntu wagitemye, amashyamba rero aba kubugwabungwa hakirindwa gutema ibiti bidakuze, ibiti bifite akamaro cyane kuko bituma abantu babona ibyo bakeneye.

Ahantu hahinze urutoki hirya ya y'urwo rutoki hari ishyamba kandi byose ni ingirakamaro mu buzima bw'umuturage kuko urutoki ruvamo umusaruro uribwa ndetse n'amashyamba agatuma umuturage abona umwuka mwiza ahumeka.

Ahantu hari ibiti ndetse bigaragara ko harimo n'amatungo, ayo matungo akaba ashakisha ibyatsi byo kurya kugira ngo abashe kubaho neza ndetse atange umusaruro ku bantu bayoroye, bityo iterambere rikomeze kwiyongera mu baturage.

Amashyamba y'inzitane afatanye kandi kuyanyuramo bishobora kugorana. Ayo mashyamba umuntu akiyabona ahita atekereza uburyo ki kuyabona bishobora kuba gake mu gihugu, aho ba mukerarugendo bazana amafaranga bakaza kuyareba.

Amashyamba afite akamaro cyane. Amashyamba akurura umwuka mwiza abantu bahumeka kuko atunganya umwuka mubi uva mubantu, hanyuma ugakorwamo umwuka mwiza, abantu bakongera bagahumeka umwuka mwiza.

Amashyamba afite akamaro cyane kubera ko umuntu ashobora gukuramo ibiti ashobora kwifashisha yubaka inzu, ibi byo bishobora kumufasha mu gihe ashaka kubaho neza by'umwihariko amashyamba atuma abantu babona akayaga keza kandi bakabona n'inkwi zo gucana.

Ahantu hari ibitaka birunze ahantu hakikijwe ihema ry'ubururu bigaragara ko hazahingwa imboga, aho harunzwe ibitaka hakaba hitwa akarima k'igikoni kandi hahingwa imboga.

Imbuto zifite agaciro cyane kuko abantu iyo baziriye bagira ubuzima bwiza kandi bakarama imyaka myinshi, umuntu wese urya imbuto ntashobora kurwaragurika kandi n'iyo arwaye ahita akira vuba.

Hari imbuto abantu babona ahantu bakaba bibaza uburyo ziribwa, nyamara mu by'ukuri kuzirya nubwo biba bibateye ifemba ariko zitaryoha, ibyo bigatuma abantu bakora uko bashoboye kose ngo bazazirye bakaba batanga n'amafaranga menshi kubera ukuntu ziba zisa zitukura ariko zitariryoha.

Hari ibimera bishobora gushyirwa mu mavaze, bikaba byaba indabo. hari n'ibimera abantu bashyira mu mavaze kugira ngo mu gihe runaka bazabihinge, bakabishyiramo kugira ngo bibe bikuriramo aribyo bigaragara bituma abantu babona umusaruro uhagije.

Hari abantu benshi bahinga indabo kugira ngo bazazigurishe babone amafaranga, indabo ni nziza kandi zirakundwa, cyane cyane abasirimu barazikunda kugira ngo bazitake mu nzu zabo bityo hakomeze gusa neza cyane.

Avoka zirakundwa cyane kandi iyo zirunze ahantu hamwe uba ubona bibereye ijisho, ndetse n'umuntu utazirya byagorana kumubona, kuko abantu benshi barya avoka kandi ziraryoha zigatuma umuntu agira ubuzima bwiza, abyibuha akumva ameze neza.

Ibihingwa birimo amapapayi, bifasha abantu kubona ibyo kurya mu gihe gitoya, kandi ibyo bihingwa bigirira akamaro abaturage, kuko bituma abana bakura. Ibyo bihingwa biba byiganjemo amavitamini afasha abantu mu buzima bwabo.

Abantu benshi iyo babonye icyapa kiri ahantu bumva bafite amatsiko yo gusoma ibintu bihanditse kandi akenshi icyapa gikunda gushyirwa ahantu mu murima kikagaragaza ibintu bishobora kuba bikorerwa ahantu runaka bityo bakagenda bakabona serivisi bakeneye.

Guhinga ibitunguru bitanga amafaranga ndetse umuntu uwo ari we wese ashobora kubihinga kuko bidasaba igishoro kinini kandi yaba umuntu utuye mu mujyi cyangwa mu cyaro ashobora kubona aho ahinga ibitunguru kuko bidasaba ahantu hanini.

Umuhinzi ufite inyanya, karoti ndetse n'izindi mbuto, bigaragara ko avuye kuzisarura. Ibyo birashimisha cyane kubona umuntu yarahinze, agasarura, akabona ibyo kurya bitamugoye kandi akabyishimira.

Umuntu arimo arafuhira imyaka yahinze ni ukuvuga ibigori kugira ngo bizere hanyuma bitange umusaruro uhagije bityo nawe abone amafaranga yo kwikenuza yikure mu bukene mbese yishumbushe umwanya aba yarakoresheje.

Abantu bashaka kugira ibyo bageraho mu buzima bwabo cyanecyane mu bijyanye n'ubuhinzi bagomba kuhira imyaka yabo, hari ibikoresho bishobora kwifashishwa mu kuhira bikajyana amazi hirya no hino mu myaka iba yarahinzwe kugira ngo abantu batazahomba mu gihe cy'izuba.

Kuhira imyaka ni igikorwa cy'ingenzi, hari uburyo bwinshi abantu bashobora kwifashisha buhira imyaka bahinze harimo nko gushyira uduhombo cyangwa se utugezi hagati mu murima tukagenda dutanga amazi hirya no hino muri uwo murima.

Umuntu wambaye ijile, yambaye n'ingofero y'urugara, ihagaze impande y'amazi, hari utuntu arimo yikorera dushobora kuba tujyanye no kuwuhira kubera ko hakurya hari imyaka.

Abantu bahinze imboga, bagomba kuzishyiraho amazi mu gihe cy'izuba kugira ngo zikomeze kugubwabwa neza. Iyo bashizemanzi kuri izo mboga bizirinda kuma, hanyuma umusaruro wabo ukiyongera.

Gutera umuti mu bigori bifasha abantu, kubona umusaruro mwinshi kuko, iyo ikigori gitewe umuti gikura ku gihe, kandi abantu benshi bakunda gutera imiti, no gufuhira imyaka yabo, kugira ngo babone umusaruro uhagije.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kose kugira ngo ibyo bahinze bikomeze kumera neza. Niyo mpamvu habaho gahunda yo kuhira imyaka cyane cyane kuhira imyaka mu gihe cy'izuba, bifasha Imyaka gukura neza kandi ingatanga umusaruro.

Umuhinzi harimo aruhira imyaka yahinze kugira ngo igihe cy'izuba iyo myaka itangirika ahubwo ikomeze gutohagira bityo abe yabona arya ndetse bigaragara ko afite umwana kugira ngo nawe azabone uko amugaburira niba ahari.

Kuhira imyaka ni igikorwa kiba gisaba ko abantu bashyiramo imbaraga, ku bijyanye no kuhira, hari ibihingwa bashobora kuhira harimo nk'imboga mu gihe cy'izuba, bifashishije amazi kugira ngo akomeze gufasha ibihingwa gukura.

Mu gihe umuntu yahinze ibihingwa ku izuba agomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo abyuhire, by'umwihariko imboga ziruhirwa cyane kuko ziba zikeneye amazi ahagije kugira ngo zikomeze kugira itoto no kwera vuba.

Abantu barimo buhira imyaka bahinze bigaragara ko ari mu gihe cy'izuba barimo barayuhira kugira ngo itazicwa n'izuba bityo bakaba bahomba aho barashyiramo amazi kugira ibashe gutohagira.

Biba bikenewe cyane cyane mu gihe cy'izuba, abantu bahinze ibimera bakwiriye kubyuhira bakoresheje amazi kandi ayo mazi bashobora kuyavoma mu migezi itandukanye, abantu bashaka kugira inyungu bakwiriye kuhira imyaka yabo kugira ngo inyungu n'umusaruro byiyongere.

Umukecuru ugeze mu za bukuru na we ashobora gukora akazi koroheje, karimo nko gufumbira imyaka iba yarahinzwe kugira ngo abone ibintu bimutunga mu gihe byaba byeze ndetse ashobora no kugurisha agakuramo amafaranga.

Amazi arimo amanuka kugira ngo afashe ibihingwa ndetse akagira akamaro mu gutuma biticwa n'izuba, ayo mazi kugira ngo asohoke bigimo uruhare n'umurasire urimo ugaragara inyuma kuko ufasha mu gukoresha moteri izamura ayo mazi.

Abahinzi bose baba bakwiye gukora uko bashoboye kose mu gihe cy'izuba bagaharanira ko igihingwa bahinze kitakoma kugira ngo babashe kubona umusaruro uhagije, mu gihe cy'izuba, bityo babe bagurisha babone amafaranga menshi.

Abantu benshi bagira uruhare mu gutuma ibihingwa bikura. Hari imigezi ifasha abo bantu, kuhira ibihingwa byabo, bityo imyaka yabo igakomeza kugubwa neza. Iyo abahinzi bakoze uko bashoboye kose imyaka yabo ikera, hari ibikorwa byinshi bageraho by'iterambere.

Abantu batandukanye bagenda bakora ibikorwa bishobora kubateza imbere, ariko iyo abantu batuye ku mudugudu hari ibintu bashobora gufa, gusa ahantu hagaragara amashyamba naho hagira uruhare mu gutuma abaturage bungukirwa.

Ahantu bigaragara ko hameze neza nubwo ari mu misozi, harimo ibyatsi ndetse n'imirima imeze neza ihinzemo ibiti kandi harimo amazu y'abaturage, kuhatemberera bishobora kugorana ariko kuhabona wumva wishimye.

Ahantu hari ibihingwa bigaragaramo ibiti, urutoki ndetse n'andi mazu menshi ari hakurya kuko bigaragara akaba ari mu misozi cyangwa se ahantu h'icyaro hagaragara ibintu bitandukanye.

Ahantu hari ibimera hashobora kugira uruhare mu gutuma abaturage bahatura kubera ko bashobora kubona ibintu byinshi birimo n'umwuka bahumeka kandi hakaba hari n'ibindi bintu bibafitiye inyungu, urugero nk'ibiti bishobora gutuma bakoramo ibikoresho bitandukanye.

Ahantu heza haba hari ikibaya kandi abantu bashimishwa no kuhatura kubera ko kuhatura biba byoroshye bakabona akayaga keza ndetse n'umwuka mwiza bahumeka, abantu bakunda gutura ahantu hari amashyamba kuko bahabona ibyo bakeneye byose.

Hari abantu benshi bakunda kwibera ahantu hameze neza, hari akayaga, ibiti ndetse n'ibindi, gusa aho hantu ntushobora gusanga ahantu hameze gutyo mu mujyi, niyo mpamvu iyo umuntu abonye ahantu h'icyaro harambitse, neza hari ibiti, hari ibyatsi ndetse n'ibimera ku buryo umuntu yishimira kuhaba abari mu cyaro.

Imisozi myinshi kuyireba biba bishimishije kandi bite inkunga, niyo mpamvu abantu batuye mu cyaro usanga bafite ubuzima bwiza kuko bakunda gukora imyitozo ngororamubiri yo kuzamuka iyo misozi bigatuma babaho neza.

Mu gihe umuntu agiye mu cyaro ahabona ibintu bitandukanye no mu mujyi, kubera ko mu cyaro uhasanga urutoki ndetse n'inyubako nkeya ugereranyije no mu mujyi kandi abantu baho baba barahinze cyane.

Hari amashyamba munsi y'ayo mashyamba ha akaba hari ibimera bitandukanye, ndetse hatuwe n'abantu bigaragara ko abantu bahatuye babayeho neza kuko babona inkwi zo gucana ndetse n'umwuka mwiza ndetse barisanzuye cyane.

Ahantu hari amazi harakundwa cyane, kuko haba hari akayaga. Byumwihariko iyo hari ibiti, bifasha aho hantu gukomeza kuba heza, kandi abaturage ndetse na bamukerarugendo, bashobora kuhasura bakishyura amafaranga.

Ibiyaga bifitiye akamaro cyane abaturage ndetse abantu benshi baza kubisura bagatanga amafaranga, hari ahantu haba hari ibibaya ku buryo kuhahinga imyaka ihita yera vuba vuba ibyo bigatuma abantu babona umusaruro bakeneye.

Amashyamba atuma abantu benshi bagira utuntu twinshi bikorera harimo nko gufata akayaga abantu bahumeka, nanone kandi ahantu hameze neza umuntu ashobora kuhahinga nk'ibigori abahinzi bakagenda bagahinga bakabona umusaruro.

Ingurube ni zimwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo, akaba ari amatungo akundwa n'abantu benshi kuko atanga umusaruro mu gihe gito kandi inyungu ivamo akaba ari nyinshi cyane ugereranyije n'andi matungo.

Inka zifasha baturage kuko zitanga umukamo, abana bagakura mu gihe banweye amata. Umuturage ufite inka, agomba kuyifata neza kugira ngo abone ifumbire ndetse n'abana babona amata ahagije, bityo iterambere mu rugo rwe ryiyongere.

Korora inkwavu bisaba gushyiraho imihate cyane buri muntu akamenya ibyo zirya kugira ngo nazigaburira amenye ibya zigaburira bityo zitaza kwicwa n'indwara bitewe n'uko zigaburiye nabi hanyuma aba akwiriye no kugirira isuku aho ziba.

Korora amatungo magufi harimo ingurube bigirira akamaro umworozi kuko ingurube ari amatungo yororoka vuba kandi agatanga inyungu mu gihe gito, mu gihe umuntu yoroye ingurube ashobora kubona amafaranga akeneye mu gihe agurishije ibyana byazo.

Ingurube ni itungo na ryo ritanga umusaruro mu gihe gito kandi mwinshi, umuntu uryoroye rimuha inyungu mu gihe gito kandi bisaba ubuhanga kuryorora kuko uryoroye nta buhanga abifitemo ashobora guhomba.

Inka ni itungo ryiza cyane, gusa kugira ngo ribeho neza abantu baba bakwiriye kuryubakira mu kiraro, hanyuma rigakomeza kugubwa neza kandi rigahabwa ubwatsi, biba byiza iyo aho hantu hasakariye kugira ngo rikomeze gutanga umusaruro uhagije.

Inka zikiri nto zirimo ziraywa amazi ahantu baba bazigeneye, iyo inka inyweye amazi ubona ko iba imeze neza kandi itanga inyungu mu gihe gitoya kuko umuntu wese aba yumva yagura inka inywa amazi.

Amatungo magufi atanga umusaruro, by'umwihariko hari amatungo atanga umusaruro mu gihe gitoya abaturage bakunda korora, ihene ni amwe mu matungo yo mu rugo akunzwe cyane kandi yorohewe n'abantu benshi.

Inka zifitiye akamaro abaturage kandi zishobora kuragirwa ahantu hatandukanye kugira ngo zigire umusaruro, iyo inka ibona ubwatsi buhagije ishobora kugira amata menshi kandi ayo mata abana bashobora kuyanywa bakagira ubuzima bwiza cyane.

Abana bo mu mugi bashobora kubona inka bakibaza akamaro kayo, gusa abo mu cyaro bahita babisobanukirwa neza kuko iyo umuntu abonye umuntu ufite icyo gukamiramo ahita amenya ko agiye gukama inka hakavamo amata.

Korora bituma umuntu woroye abona inyungu kandi akizera ko umusaruro abonye ushobora kumubeshaho akaba yabona inyungu runaka, niyo mpamvu hari akanayana kakiri gato yakorewe ahantu heza bigaragara ko kakorewe isuku.

Umuntu woroye inkoko aba akwiriye kuzisura inshuro nyinshi, akareba uko zihagaze akazitaho, akazikuyakuya, hanyuma akaziha ibyo kurya bihagije kugira ngo na zo zibashe kumuha umusaruro uhagije bityo yikure mu bukene.

Hari uburyo bwinshi bushobora kwifashishwa n'abahinzi borozi by'umwihariko aborozi boroye inkoko baba bakwiriye kwita kuko inkoko zabo zirirya kugira ngo zibashe gutanga umusaruro uhagije kandi ukwiriye.

Abaturage borora inka baharanira ko zikomeza kugira isuku, kuko iyo inka idafite isuku, ishobora guhura n'uburwayi mu gihe gito, kandi ibyo bishobora kumuteza igihombo. Ubwo rero aba agomba gukora uko ashoboye kose akubakira aho iyo nka iba.

Imifuka iteretse ahantu bigaragara ko irimo ibihingwa kandi umuntu aba yishimiye kubona ibyo yahinze byeze, harimo umuntu hagati iyo mifuka arimo arareba uburyo imeze akumva aranezerewe cyane.

Mu gihe umuntu yahinze, hari abantu benshi bibaza uko ibihingwa biboneka ariko na none mu gihe umuntu yahinze, hari ibihingwa aba yarageneye guhinga n'ibindi azasarura akarya, bityo akazabona ibyo ahinga ubutaha.

Hari imbuto z'ubwoko butandukanye zituma abantu bakomeza kugira ubuzima bwiza, izo mbuto abahinzi barazifashisha bakagenda bakazishyira mu butaka nazo zikazakura zikavamo imbuto nyinshi zikabyara umusaruro abantu bakawifashisha.

Ibishyimbo ni ibihingwa abantu bakunda. Mbere yo kubihinga barabanza bakabitoranya na none kandi uretse kubihinga, bashobora no kubirya bifashishije kubitoranya, iyo bidatoranyije bashobora kuryamo umwanda.

Ibihingwa abaturage bahinga bishobora gutunganyirizwa mu nganda, cyangwa se bakabihinga bitaratunganyirijwe mu nganda. Zimwe mu mbuto zigaragara abaturage bakoresha, zituma bagira ubuzima bwiza kandi kuzibona biroroshye.

Imifuka iteretse ahantu irimo ibiribwa cyangwa se ibindi bintu, ibyo bituma abahinzi bungukirwa no kuba barahinze bakabona aho bagurisha ndetse n'abandi bakeneye ibyorya bakaba babona uko babibona ibyo byongera ubukungu bw'igihugu.

Guhinga imyaka bifasha abaturage kubaho neza by'umwihariko iyo abaturage bihingiye ibyo kurya bashobora kubibona mu gihe bashakiye nta mafaranga batanze kandi uwo musaruro ubagirira akamaro kuko kubona imyaka umuntu yihingiye birashimisha.

Imbuto ziri mu bikonoshwa byazo kandi izo mbuto kugira ngo umuntu abe yazirya abanza akazikura muri ibyo bikonoshwa hanyuma akazitunganya zikabona kuribwa, ubwo rero umuntu agomba gusobanurira undi ibijyanye n'izo mbuto.

Abavuzi b'amatungo baba bakwiriye kuvura amatungo yose nta kurobanura, bagendeye ku kamaro k'itungo. Itungo ryose riba rikeneye guhabwa ubuvuzi yaba imbwa, inka ndetse n'ayandi kandi akavurwa n'umuntu wabyigiye.

Abavuzi b'amatungo baba bakwiriye kumenya ibintu byose kugira ngo babashe kuba bavura itungo, mu gihe umuntu yiga ibijyanye n'amatungo aba agomba gukurikira akamenya indwara zose zishobora gufata itungo runaka ndetse n'ibice bigize iryo tungo kugira ngo naba agiye kuvura amenye uko avura.

Abantu barimo barita ku matungo yabo, harimo umuganga w'amatungo, yambaye ga mu ntoki zisa ubururu, yambaye itaburiya y'umweru, uyu muntu uko bigaragara akaba azi ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo.

Abavuzi b'amatungo bakunda kwambara impuzankano kandi ibyo bisurubeti bambara bibarinda kwandura mu gihe bari kuvura itungo, ni yo mpamvu umuntu ugiye gushaka umuntu umuvurira inka, agomba gushaka umuntu wabigize umwuga.

Abantu boroye inkoko hari ibikoresho bagomba kuba bafite kugira ngo bifashe izo nkoko kubona ibyo zirya, mu gihe umuntu yoroye imishwikiri mito agomba gushakakwa uburyo izajya ikomeza kugumana ubushyuhe kugira ngo idapfa.

Abaganga ni abantu b'ingenzi cyane, by'umwihariko abaganga b'amatungo bafitiye akamaro abaturage n'aborozi cyane cyane kuko babafasha, bagatuma amatungo yabo akomeza kugubwa neza mu gihe arwaye ndetse bakamenya n'imiti bashobora kuyaha.

Abantu benshi kugira ngo bagire icyo bageraho barabanza bagakora. Iyo umuntu akoze, ashobora gukora ibintu bitandukanye harimo ubworozi bw'inka. Korora inka bitanga amafaranga menshi ku buryo umuntu yinjiza amafaranga menshi mu gihe gito n'ubwo bisaba ko aba afite umwanya.

Inkoko ziba zikwiye kwitabwaho cyane cyane mu bijyanye no kuzigaburira, zikabona uko zirya hifashishijwe ibikoresho byabugenewe, hanyuma na zo zigatanga umusaruro uhagije, bityo umuntu uzoroye akabona inyungu.

Abaganga b'amatungo baba bakwiriye kumenya ibigize itungo, nanone kandi mu gihe hari inyama bakwiye kuzipima kugira ngo bamenye uko zihagaze mbere y'uko abaturage bemererwa kuzirya bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hari utubido tw'uumweru twinshi turambitse dutondetse ku murongo, turimo dutondekwa n'umukobwa wambaye inkweto z'umweru zifunze, ipantaro umukara, itaburiya ndetse n'akantu gapfundikiye umusatsi we.

Abaganga bavura amatungo bagira uruhare mu gutuma amatungo amera neza, kuko baba bafite ibikoresho byabugenewe kandi inshuro nyinshi baba barize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, bityo gufasha amatungo bikaborohera cyane.

Amatungo aba akwiriye kwitabwaho cyane cyane mu gihe cyo kubyara, ni ngombwa ko iyi nka igiye kubyara umworozi ashaka umuntu wabigize umwuga ni ukuvuga umuganga w'amatungo akamufasha kubyaza kuko atabikoze itungo rye rishobora kwangirika.

Abaganga bavura indwara zitandukanye baba bihariye mu kumenya ubwoko bw'indwara. Byumwihariko, abavuzi b'amatungo baba bakwiriye kumenya ibintu byinshi ku bijyanye n'amatungo, bakamenya imiti bashobora gukoresha kugira ngo bavure amatungo yabo.

Abaganga b'amatungo baba ari abantu b'abahanga cyane mu bijyanye n'uko amatungo ateye, kandi bashobora kuyavura indwara yaba afite yose harimo no gufasha amatungo kubyara urugero nk'inka mu gihe igiye kubyara ni byiza guhamagara umuganga w'amatungo.

Inyamaswa zituma abantu bishima kuko iyo bazirebye bagira ibyishimo bibasaze, ibitera ni zimwe mu nyamaswa zitangaje zijya kumera nk'abantu kandi rimwe na rimwe zishobora kugendera ku maguru abiri nk'abantu.

Hari utunyamaswa dutoya twibera mu ishyamba cyangwa se mu gasozi, utwo tunyamaswa na two tuba dukwiriye kwitabwaho tukarindwa kwicwa bidakwiriye kuko na two dufite akamaro mu gihugu kuko dukurura ba mukerarugendo.

Hari inyamaswa ziba zikanganye kuzireba urugero nk'ingwe ni inyamaswa iba iteye ubwoba kandi n'izindi nyamaswa zirayitinya ubwo rero abantu baba bafite ubwoba bagenda bikanga ko bashobora guhura n'ingwe mu ishyamba.

Hari inyamaswa zo mu gasozi aba ari ndende cyane ku buryo nta yindi nyamaswa ishobora kwigereranya na zo mu burebure, izo nyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzisura bakishyura amafaranga.

Hari inyamaswa bita ibitera, bikunda kuba ahantu mu misozi cyangwa se mu mashyamba, aho izo nyamaswa ziba zifite ishusho imeze nk'iy'abantu kandi zikunda kugenda n'amaguru abiri.

Intare zagiye kunywa amazi, ni intare nini ifite ubwana bwinshi, irimo iranywa amazi kandi urabona ko n'ubwana bwayo burimo kunywa amazi kugira ngo zibashe kugira imbaraga.

Inyamaswa ziba mu mashyamba ziba zitangaje cyane. Hari ibinyamaswa binini umuntu adashobora kwegera biba biteye ubwoba. Gusa ba mukerarugendo baraza bakegera ibyo binyamaswa n'imodoka, dore ko biba byaratojwe kubana n'abantu.

Inyoni zo mu gasozi kuzireba ziba zishimishije, abantu bakwiye kuzibungabunga bakirinda ko zapfa kuko ibyo bibaye bashobora gutakaza ibintu byinshi, harimo no kubura amafaranga aturuka muri ba mukerarugendo baza kuzisura.

Inyamaswa zo mu mazi kuzireba biba bishimishije, ba mukerarugendo bashobora guturuka mu mahanga baje kureba izo nyamaswa, abantu baza kureba izo nyamaswa bishyura amafaranga menshi ku gihugu kandi ayo mafaranga akoreshwa mu bikorwaremezo bikorwa mu gihugu.

Inzovu ziba mu miryango kandi zirakundana cyane. Inzovu zishyira hamwe mu kurwanya umwanzi, kandi iyo zibyaye zita ku bana bazo zifatanyije. Inzovu zigira urukundo ku bana bazo, kandi nta nubwo zangiza abana bazo.

Hari inyamaswa isa n'umuntu, inyamaswa isa n'umuntu yitwa inkende abenshi bashobora kuba batarayibona ariko kuyibona biba bishimishije, ndetse ikurura abantu bavuye mu mahanga bakaza kuyireba bakishyura amafaranga.

Hari inyamaswa nini cyane ziba mu mashyamba, hari inyamaswa ziba amazi, izo nyamaswa zose zifiteye akamaro abaturage ndetse n'igihugu muri rusange kuko zikuru ba mukerarugendo bityo abantu bakabona amafaranga bashobora kwifashisha nko mu gukora ibikorwa remezo mu gihugu.

Hari inyamaswa ndende ziba mu gasozi abantu bakunda kwita twiga, izo nyamaswa zikaba zikurura cyane ba mukerarugendo ndetse zigatuma basiga amafaranga menshi, yifashishwa n'abaturage b'Igihugu mu bikorwa remezo.

Inyamaswa irimo iranywa amazi ariko ni no kwireba mu mazi. Ishobora kwikanga igirango ni indi nyamaswa iri gusomana na yo, ariko ibyo ni ibintu bisanzwe. Gusa ubusanzwe ingwe ni inyamaswa iba iteye ubwoba kandi kuyireba biba bikanganye.

Hari ibinyoni binini bikunda kuba mu mazi kandi kubibona biba bigoye kuko biboneka hake, niyo mpamvu abantu iyo babibonye bashobora kubifata amafoto kugira ngo bazayereke abandi cyangwa se babashe kuba bayacuruza.

Hari inyamaswa zo mu gasozi na zo ziba zikwiriye kunywa amazi kugira ngo zikomeze kubaho, zimwe muri izo nyamaswa harimo impala akaba ari inyamaswa iba ifite amabara y'umweru n'umukara, izo nyamaswa abantu barazitinya cyane kubera ko ziryana.

Inyamaswa zo mu gasozi zishobora gutera ubwoba bitewe n'uzireba, ariko nano mu gihe umuntu abonye inyamaswa zoba mu gasozi aba agomba gushishoza kuko hari inyamaswa ziba zitarakingiwe cyangwa se zitamenyeranye n'abantu zikaba zamurya.

Ikigo cy'amashuri kigaragara neza gifite ubusitani mbere yacyo hari ishyamba hari n'ibiti biteyemo kandi kubireba bituma wumva wishimye, harimo ubusitani bwiza abanyeshuri bicaramo bakaruhuka.